Amacupa arimo imiti. Imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo yacu. iyi miti ivura indwara zitandukanye, kugirango amatungo yacu akomeze gukura neza, azatange umusaruro uhagije.

Umuhinzi uri gutera umuti imbuto ze, inyanya, akoresheje ibikoresho byabugenewe ipombo, ndetse yambaye n'imyenda y'ubwirinzi, ariyo i sarubeti ndetse na bote.

Abaturage bari kumwe n'abayobozi harimo: abapolisi, n'abasirikari, n'abandi bayobozi batandukanye. Bari gushyira ifumbire ku bigori kugira ngo ibigori bizakure neza maze bitange umusaruro uhagije, inyuma yabo hari abandi bantu bari kuza bahingira bya bigori bamaze gushyiraho ifumbire.

Umugabo uri kuhira imyaka ye. Yambaye imyenda y'ubwirinzi irimo isarubeti, ingofero ndetse n'imyenda y'ubwirinzi yose. Ari gutera umuti akoresheje ipombo.

Abahinzi bari gutera umuti mu bigori, bari kumwe n'abayobozi n'abasirikari, bambaye imyenda y'ubwirinzi, ari yo udupfukamunwa, kugira ngo birinde ko bahumeka imyuka y'iyo miti ikabatera uburwayi.

Umugoronome uri gutera imiti akoresheje ipombo，yambaye imyenda y'ubwirinzi，kugira ngo yirinde indwara， ziterwa n'aya makemiko iyo wayahumetse.

Icupa ry'umuti witwa insekitiside bawutera mu bihingwa, iyo ibihingwa biri kurwara indwara zizanwa n'udusimba. Uyu muti ugabanya ikwirakwira ry'utwo dusimba dukwirakwiza indwara.

Amafi atanu ari mu gatete，bamaze kuyaroba， bamaze no kuyakabusha，bategereje abakiriya ngo baze bayagure， bage kuyateka bayarye， maze bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Amafunguro ari ku meza, ku isahani. Ariho ifi hakabaho seleri, hakabaho n'imbuto zitwa amaronji. Iyi ni indyo yuzuye, iteguranye isuku kandi imeze neza.

Amafi atatu bagiye guteka, bayazaniye n'ibirungo byayo bari buyitekesha, harimo ibitunguru, tungurusumu, seleri n'ibindi bikoresho bari bukoreshe bayateka.

Inyanya zihinze mu murima, kubera ko inyanya zikura ziri kuzamuka hejuru, bashingamo imihembezo kugira ngo inyanya zitaryama hasi, bigatuma imbuto z'inyanya zibora kubera gufata ku butaka.

Ishyamba rinini ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, ririmo ibiti binini by'intusi bazabaza bagakuramo, imbaho bakazikoresha bubaka bakora n'ibindi bikorwa, hakaba mo n'ibiti bitoya, bategereje ko bikura, harimo n'ibyatsi, ibyatsi tujye tubyahirira amatungo yacu abirye akure neza.

Urutoki rukozweho n'ibishushu n'ibidodoki, Baruzitiriye n'ibiti by'amisombe .Ibi ni ibitoki tuzajyana ku isoko tubona amafaranga, ayo tukayakemuza n'ibindi bibazo byacu bya buri munsi.

Ni amatunda afashe ku biti bayubakiye bari kuyahingira, kugira ngo atagwa hasi umusaruro wayo ukagabanuka, bayashingiye ibiti, kugira ngo umusaruro wayo wiyongere kandi nabo bazabone ayo kurya.

Ni ibigorigori byumye bikiri mu murima. Ibigorigori babikoresha mu gusasira amatungo cyangwa gusasira urutoki, cyangwa gusasira iyindi myaka ayariyo yose. Ibigorigori bana bikoresha no kubaka uruzitiro.

Ishyamba rinini ririmo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, n'ibiti by'ubwoko butandukanye. Harimo n'inturusu zikoreshwa mu kuvura, ndetse zigakoreshwa bazishyira mu bishyimbo bari kwirukana inyoni.

Ibigori biri mu murima bigiye kwera, biri kumwe n'insina. Ndetse impande y'ibyo bigori, hari ibyatsi bya kameruni. Ibigori bikungahaye kuri vitamine, ndetse bituma umuntu agira imbaraga iyo yabiriye.

Ibirayi ino aha iwacu mu cyaro turabihinga ,tukabijyana mu isoko, ibindi kabirya tukabikuramo imbuto iyo byeze, inyuma yabyo hari ibikenyeri babikuramo imihembezo, ibindi bakabisasiza amatungo, cyangwa bakayikuramo ifumbire.

Iri ni ishyamba rinini ririmo ubwoko bw'ibiti butandukanye，cyane cyane ibyo tubona，byitwa kariyandara，katirizasi, ndetse n'ibindi by'ubundi bwoko butandukanye.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye nk'ibishyimbo, amavuta n'ibindi biribwa byinshi. Umucuruzi ari kubirenga yambaye agapfukamunwa, mu buryo bwo kwirinda indwara.

Ibitunguru bigaragaza ko biri gucuruzwa. Bafunze ibitunguru bya make， ndetse bafunga n'ibitunguru by'ameshi， kugira ngo abakire n'abakene bafite amafaranga menshi n'abafite make， bose bahahe ibitunguru.

Voka zimwe mu mbuto abantu barya zikungahaye kuri vitamine, zigira ibice bitatu harimwo: iki gishishwa, igice abantu barya, n'ikibuto k'imbere ari cyo batera, kugira ngo babone izindi avoka nyinshi.

Amashu ateye mu murima agiye kwera, akera bakayajyana ku isoko bayagurishe bakuremo amafaranga, amafaranga bayakoreshe ibindi baba bakeneye muri icyo gihe.

Abaturage bari kumwe n'abayobozi babo bari gufata ingemwe z'ikawa ngo bajye kuzihinga, bajye kuzihinga mu mirima yabo babone umusaruro uhagije babifashijwemo n'abayobozi babo.

Ni inkoko z'ubwoko bumwe, ziri kurya ibiryo ku isahani yazo, kugira ngo zitere amagi menshi, kandi zitere amagi manini. Nituyajyana ku isoko tubare amafaranga menshi.

Ibigori bigaragara ko byeze biri mu murima. Amababi y'ibigogori bayakoresha bari gusasira imyaka, cyangwa bakayaha amatungo akayarya. naho ibigori tubijyana ku isoko tukabigurisha, cyangwa natwe tukabirya.

Abahinzi babiri bari gusarura ibigori, ibyo bigori bigaragaza ko byatanze umusaruro uhagije usigaje kubyitaho akabihungura akanika, ajyana ku masoko amafaranga akabyifashisha ubundi buzima bwa buri munsi.

Aba ni abaturage harimo abagore n'abagabo, baje gusarura amavoka yabo, bakayashyira mu mifuka, harimo n'abanabari kuyikorera, n'abandi bagore bakayikorera, hariho n'undi mugabo uri kubishyira amafaranga yabo, bagize ayo mavoka.

Ibirayi biri mu mufuka bigaragara ko biri gucuruzwa. Abantu bari kuza bakabigura, bakabijyana bakajya kubiteka bakabirya bagahaga.

Umuhinzi w'umugore, uri gukorera ibigori bye, biri gutera bigaragaza ko bigiye kwera, bigatanga umusaruro uhagije, akarya, agasagurira n'amasoko, kugira ngo akomeze kwiteza imbere.

Igiti cy'amaronji harimo amaronji amwe atukurije , andi agiye gutukuza n'andi atari yatukuza . Aya maronji iyo yeze neza tuyajyana ku isoko tukayagurisha bakaduha amafaranga, amafaranga tuyakoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Imineke yo mu gatete igaragara ko idahiye neza, ni ibiseri bine, ibiseri bibiri birahiye neza, ibindi biseri bibiri bigaragaza ko bidahiye neza, ariko ziri mu gatete bazifashamo kugira ngo zitangirika.

Abaturage baje gufata ingemwe muri pepiniyeri. Umuyobozi wabo abari imbere, agenda abahereza umwe umwe. Inyuma yabo hari urutoki, birimo ibitoki byinshi.

Abantu bari kugenda mu nzira, bikoreye umusaruro uri mu bitebo usa n'icyatsi ukomoka ku cyayi bari kugenda nk'aho ari ikivunge.

Abahinzi harimo umugore n'umugabo n'abana， bari gutera ifumbire ku bigori，kugira ngo ibyo bigori bikure neza， kandi bitange umusaruro uhagije. Bambaye udupfukamunwa， kugira ngo birinde guhumeka umwuka w'izo fumbire.

Ibigori by'amabara atandukanye, byanitse ku mufuka iruhande rwabyo hari ubutaka bw'umukara, ibyo bigori barabitera ibindi babibeteshamo igikoma bagateka n'umutsima.

Ibijumba bitanditse ku mabase, aho babigurishiriza ibijumba ni ibiryo bitera imbaraga, abantu barabirya, babijyana ku masoko ibindi iyo bisigaye ukabiha amatungo yabo akabirya.

Ibitunguru by'ubwoko butandukanye, n'ibitunguru ry'umweru, ibitunguru by'umutuku, ibitunguru bisa n'umuhondo, ibitunguru byose babikoresha bari guteka, ibindi bakabikoresha bari kuvura abana ibisebe.

Ibishyimbo ni bimwe mu binyamisogwe duhinga inaha mu cyaro iwacu. Turabihinga byakwera tukabiteka tukabirya, ibindi tukabijyana ku isoko, bakaduha amafaranga.

Ni amateke. Iyo tuyejeje turayarya, andi tuyajyana ku isoko bakaduha amafaranga. Amafaranga tuyaguramo n'ibindi bintu tuba dukeneye, maze tukarushaho kwiteza imbere mu buryo bwose.

Umugore n'umugabo bagiye guhinga, bahagaze hagati y'imigozi y'ibijumba, hakurya yabo hari ishyamba rinini, abantu bafite inka bajya kuragiramo.

Amavoka atatu imwe irasatuye izindi ebyiri ntizisatuye, ikibuto cya avoka bagikoresha bari kongera gutera kugira ngo bazeze andi mavoka menshi.

Umugabo uri kwerekana ibirayi bye ko byeze, kandi yishimiye musaruro we. Ibirayi ni ibiryo abantu barya, ibisigaye bakabijyana ku isoko bakajya kubigurisha, abantu bakabigura bakajya kubirya nabo.

Ni ubunyobwa bifite ibara ry'umutuku, kandi ubu bunyobwa bukungahaye ku ntungamubiri, bifasha umuntu gukurara neza, mu bwenge, no mu mbaraga, no mu bunini.

Isoko ririmo ibiribwa byiganjemo umusaruro w'intoryi n'umusaruro w'inyanya, zisa naho bitegereje abaguzi birambitse ku tubaho.

Voka ni imbuto zikungahaye kuri vitamini abantu barya bagira ngo imibiri yabo ikore neza kandi voka ifasha imibiri yabo kurezisita ku ndwara. Ikibuto cya avoka bagikoresha bagitera kikongera kikamera kikera izindi mbuto.

Ubwoko bw'imyumbati butandukanye, harimo imyumbati miremire n'imyambati migufi, hari ifite uruhu rw'umutuku n'ifite uruhu rw'umweru, ariko iyo myumbati yose iraribwa.

Umuhinzi w'umugore uri guhinga mu gishanga, bigaragara ko agiye gutera imbuto, maze izo mbuto zigakura, zikera, akarya, agasagurira n'amasoko, akarushaho kwiteza imbere.

Intama nyinshi ziri kumwe n'abana bazo, ziri kurisha ibyatsi mu ifamu. Hirya yazo hari igiti kinini cyane izo ntama zugamamo izuba iyo ribaye ryinshi.

Aha ni ku gasoko aho bacuruza batanditse urusenda, ibitunguru, ndetse n'ibirayi biri mu mufuka. Umucuruzi yicaye ku gatebe ategereje abantu baza kugura ibyo ari gucuruza.

Ni abagore bari mu muhanda，bafashe imifuka， aho bagiye kwahira ibyatsi mu ishyamba， bambaye bote， ndetse bambaye n'ingutiya ndende，biteze n'ibitambaro mu mutwe，barahagaze mu muhanda.

Ubunyobwa iyo tumaze kubusarura, turajyana tukaburunda ahantu hamwe, tukabwanika kugira ngo bwume. Iyo bumaze kuma turabutonora, tukabujyana ku isoko, bakaduha amafaranga.

Umugore uri gutoranya ibishyimbo bimeze neza n'ibyapfuye, kugira ngo abone imbuto nziza azatera. Ibyapfuye ari kubishyira mu ibase, ibizima agakomeza kubishyira hasi, kugirango ajye kubishyira mu...

Ubunyobwa bw'ibimene bakuyeho ibishishwa byabwo by'umutuku, basigarana impeke z'imbere ari zo bakoresha bazibetesha bagakuramo ifu, cyangwa bakabukaranga bakaburya.

Ni ibigori byanitse mu gisharagati, barabisaruye barabitonora ntibabimaraho amababi, kubera ko ayo mababi abifasha kuma neza bidaturaguritse, kugira ngo umusaruro ube mwiza.

Ni imbuto z'ibigori zipanzwe mu mufuka ziri hejuru ku gatanda, kugira ngo birinde ko zakonja zigapfa, abaturage batari bazihinga ubutaka bwabo.

Ibigori biri mu bwanikiro ibyo bita ibisharagati bategereje isoko , kugira ngo umusaruro wabo ukusanyirizwe hamwe uzawujyane ku masoko mpuzamahanga.

Ni ibigori byanitse ku gisharagati ,nibyuma bazabihungura babijyane ku masoko, ibindi bajye kubibetesha bakuremo amafu y'ibikoma, ibindi babitekemo impungure babirye.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibishyimbo, n'amashaza. Ibishyimbo abaguzi baraza bakabigura, bakajya kubiteka, bakabirya, barushaho kubaho ubuzima bwiza.

Abahinzi umugore n'umugabo bari gusarura masaka, amasaka ni bimwe mu binyampeke duhinga, tukabisarura tukabijyana ku isoko tukabigurisha, ababiguze babeteshamo amafu yo guteka ibikoma, cyangwa gutekamo umutsima.

Impungure z'ibigori ziri mu mufuka zigaragarako ziri gucuruzwa, izi mpungure iyo zumye neza bazijyana kuzibetesha bagakuramo ifu. Iyo fu bayitekamo igikoma cyangwa bakayitekamo umutsima.

Ni inka ziri mu rwuri, ziri kurisha ibyatsi. Umushumba wa zo azihagaze iruhande, ari kuzicungacunga ngo zitajya konera abaturage. Inka ziduha amata, ziduha ifumbire, ziduha n'inyama iyo twazibaze tukazirya.

Inka ya kanyana iri mu kiraro, veterineri ari kuyitera urushinge, ari kuyikingira indwara. Nyir'iyo nka ayifashe amatwi.

Inka ziri kurisha mu rwuri, inka zitanga umukamo ndetse zigatanga n'inyama zigatanga n'ifumbire, iyo tunywa amata y'inka, tugira ubuzima bwiza tugakura neza, kandi tugatekereza neza.

Umuveterineri uri gutera inka urushinge, yambaye imyenda y'ubwirinzi ari yo itaburiya n'agapfukamunwa, nyir'inka ahagaze ku ruhande ari kumureba ukuntu ari gutera urushinge.

Ibi ni ibiraro by'amatungo, amatungo magufi. Byubakishije imbaho, ibiti ndetse hariho n'amabati. Ibiraro bimeze neza cyane byororerwamo amatungo magufi n'amaremare.

Izi ni ingurube zikiri ibyana zisa n'aho zicyonka, ziri haruguru y'inzu ishakaje amategura, ziri hafi y'ibiraro byazo ziriramo kandi zikararamo.

Ni ibibwana byinshi by'ingurube harimo iby'umweru, n'ibifite umukara werurutse, n'ibifite umukara n'umweru, byose biri kurwanira kuryama hagati ngo bishyuhe bisinzire.

Umugore uri gukurura inka n'ihene, agiye kuzizirikana mu ishamba kugira ngo zirishe ubwatsi zihage, zitange umusaruro uhagije, inka zitange umukamo, n'ihene na zo zitange umusaruro.

Abaturage bagaragaza ko bishimye. Bamwe bafite ihene, abandi bafite amafaranga, abandi bafite imigozi. Ndetse harimo n'abazungu bigaragaza ko bishimiye ibyo bagezeho.

Inkoko ziri mu nzu za zo, zimwe zigaragaza ko zirwaye, izindi zigaragaza ko zimeze neza, harimo n'impombo ziha izo nkoko amazi, izindi zikaziha ibiryo, kugira ngo zirusheho gukura neza.

Abaveterineri babiri bambaye imyenda y'ubwirinzi ari yo: ingofero, agapfukamunwa, isarubeti, bote ndetse n'ama ga bagiye gukingira inka, inka ifite amahembe maremare.

Ibibwana by'ingurube biri kurya ibiryo byazo. Ibibwana bifite amabara abiri, iry'umukara n'iry'umweru. Ibibwana iyo tubigurishije baduha amafaranga, ayo mafaranga tukayifashisha tugura ibyo kurya, ndetse n'ibindi bikoresho dukeneye mu rugo.

Ishyamba rinini ribamo inkende. Impande y'iryo shyamba hari amabuye, ayo mabuye hari igihe abaturage bayatwara, bakajya kuyubakisha amazu, amazu ya bo.

Ikiyaga kinini cyane cyororerwamo amafi, ,amafi agakura tukayajyana mu isoko abakire bakagura. hejuru hari inyoni ifite amabara ane , iry'umukara ,iry'igitaka, iry'umweru, n'iry'umuhondo.

Inkende ziri mu giti. Inkende ni inyamaswa zikunda abantu, zirya ibyatsi. Kandi zikurura ba mukerarugendo, baza kuzisura, badusigira amadovize, maze u Rwanda rwacu, rukarushaho gutera imbere.

Inyoni y'amabara abiri, ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo, igira umunwa usongoye kandi muremure, ikagira amaguru n'inzara ndende, igira amababa y'ubururu, kandi yiberara mu ishyamba.

Ingwe ni inyamaswa nini cyane yo mu ishyamba, igira uburarakari bwinshi cyane, yanga urusaku, kandi iyo ifashe inyamaswa, ihita iyica, maze yamara kuyica ikayirya.